Icyumba giteye irangi ry'umweru, ririmo uturongo tw'umukara tugiye tunyuranyuranyemo, harimo imitako itandukanye, intebe, imeza ndetse n'akabati karimo ibintu bitandukanye birimo amavuta n'uduseke, hasi harimo tapi, inkweto ndetse n'idirishya ririho amarido.

Akabati gafite ibara ry'umweru, gafite imyanya igera kuri itandatu, harimo imitako itandukanye ya kinyarwand, harimo uducupa turimo amavuta ndetse n'utundi tuntu tw'uduseke, inyuma hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru, harimo n'imirongo y'umukara.

Inyubako ifite ibirahure by'ubururu ndetse ifite n'icyapa cyanditseho ubwishingizi, imbere yayo hari abantu bambaye amajire ya emutiyene ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku n'abandi bantu bari gusohoka muri iyo nzu, umwe yambaye ingofero y'umweru ndetse n'igare ritetse ku ruhande rw'ibumoso.

Umukobwa n'umuhungu bishimanye bahoberanye ubona ko bakoze ubukwe, umwe yambaye ikanzu'umweru undi yambaye ikositimu y'umukara, garuka ku ntego, ufite intego yo gukora ubukwe ifungura konti yo kwizigamira muri BPR garuka ushime kuko...

Inyubako ngari ifite amapave hasi mu rugo ikaba iteye amarange harimo iry'umukara n'iry'umweru, ika bifite amakaro hasi n'ibyuma biri ku mabaraza ndetse ikaba ifite n'amadirishya manini kandi afite ibirahure by'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu nzu y'umweru ifite n'amakara y'umweru n'amatara hejuru, bari kwiyandikisha, umwe yambaye umupira w'umutuku, abandi bicaye ku ntebe hari n'aho barimo barandika ndetse n'ama esikariye arimo arazamuka ku yindi nyubako iri hejuru yaho.